Mu Rwanda hari bimwe mubigo by'amashuri usanga byubatse mu buryo butameze neza, aho biba biteje impungenge ku bana bashyirwamo nko kuba bahandurira indwara zitandukanye.

Amashuri yo mu Rwanda ni kimwe mu byibanzweho bitezwa imbere. Aho amashuri yagiye ashyirwamo ibikoresho bihagije nk'ibibaho byiza bifasha abanyeshuri kuba bakwiga bisanzuye.

Ishuri bigiramo ririmo intebe abanyeshuri bicaramo, harimo n'ikibaho cyanditseho n'ingwa y'umweru, intebe ziteye kuri gahunda ndetse n'idirisha.

Iyo ugeze mu mashuri amwe n' amwe usanga, hari ahabugenewe habikwa imiti, nko mu malaboratwari, hakabamo utwo tubati tubikwamo iyo miti, kugira ngo ibashe kuba irinzwe mu buryo bwiza.

Iyo ugeze mu mashuri agiye atandukanye y'igihugu, usanga hari inyubako zikorerwamo imirimo y'amaboko ku banyeshuri biga imyuga kugira ngo bibafashe gukomeza kwiyungura ubumenyi mu bijyanye no gukora.

Abana barimo kwiga gushushanya bifashishije amarangi gatandukanye, kugira igishushanyo, bakora kibashe kuba gifite ubwiza kandi gifite umwimerere.

Iyo ugeze ku butaka bukorerwaho ibikorwa by'ubwubatsi usanga hariho inzobere zabugenewe, zigomba gupima no kugenzura ko ibintu biri kubakwa bitazashobora guteza ingaruka mu gihe kiri imbere.

Abanyeshuri bari mu nyubako ikorerwagamo imirimo y'amaboko izwi nka parakitisi kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi mu byo bakora, aho bamurikaga ibyo bari bamaze gukora ku kibaho cyabugenewe gikorerwaho iyo mirimo.

Hirya no hino usanga hari ibyumba byubatswe kugira ngo hajye higirwamo abana bato bashaka kwiga gusoma ndetse no kwandika ibyo bikabafasha kubungura ubumenyi.

Bimwe mubigo byigisha ikoranabuhanga, usanga abanyeshuri bahabwa umwanya wo kujya ahari kompiyuta, mashine, kugira ngo babashe kurushaho ubumenyi ku bijyanye n'ibyo biga.

Hirya no hino uhasanga inyubako bigishirizagamo abana batoya, cyangwa se aho ababyeyi basiga abana batoya, kugira ngo babashe kuba bakwigishwa imico igiye itandukanye yabafasha gukura neza.

Hirya no hino, usanga inyubako zikorerwamo ubukanishi bw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho usanga baracukuye indiba munsi y'ubutaka, hanyuma ikinyabiziga kikaza kinyura hejuru y'aho hantu, ukanika akajya munsi, akabasha gukanika ameze neza.

Abanyeshuri mbere babaga bigishanya uburyo bwo guhambira imisatsi n'uburyo bwo kwigorora kugira ngo ibashe kuba yarambuka kandi umuntu agaragare neza.

Itsinda ry'abanyeshuri bari mu nama, barimo bagezwaho ikiganiro, no kuba ari abo muri yunisefu, bahawe nabo umwanya kugira ngo batange ibitekerezo.

Abacuzi bo hambere barimo gucura ibikoresho bigiye bitandukanye, bifashishaga umuriro kugira ngo babashe gutwika icuma, icuma bashaka gukuramo ikindi bashaka.

Hirya no hino, ugenda uhasanga ibyumba bikorerwamo ibikorwa byo kwigisha abantu mashini, cyangwa se kompiyuta, kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi mu ikoranabuhanga.

Icyumba kigirwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga biga mashine ku buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu mirimo igiye itandukanye aho abanyeshuri bafashanya basobanurirana ibyiza by'ikoranabuhanga

Ku biga imyuga n'ubumenyingiro mu mashuri yisumbuye na kaminuza habamo isomo ryo gusudira, aho abanyeshuri bagira uburyo bahabwa kugira ngo babashe gukora sudire y'ibikoresho bigiye bitandukanye n'inzugi n'ibindi bitandukanye.